Ihuriro ry'abayobozi batandukanye barimo ndetse n'ab'urubyiruko, bafashe imyanzuro ikakaye mu bigendanye no guteza imbere igihugu cyacu.

Mu nama niho hafatirwa ibyemezo bitandukanye bigira uruhare mu iterambere ry'abanyarwanda, mu by'ukuri inama ni ikintu cy'ingenzi, kuko abantu barahura bakungurana ibitekerezo.

Abaganga bagira uruhare rukomeye cyane mu kwita ku buzima. Abaganga bakora inama kenshi na kenshi bungurana ibitekerezo ku buryo bashobora kwiyungura ubundi bumenyi mu bijyanye no kuvura abarwayi.

Mu nama nkuru zihuza abayobozi bakomeye, zigira uruhare mu gufata ibyemezo ndetse n'imyanzuro, yagirira igihugu akamaro, mu by'ukuri izi nama ni ingenzi cyane.

Inama bose, bakurikiye neza cyane, ibiri kuvugirwa mu nama kandi biteguye gutanga ibitekerezo bitandukanye, haba abagore cyangwa se abagabo bitabiriye inama.

Abayobozi batandukanye bahuriye mu nama yo kwiga uburyo Kigali yakigira mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'ibyo yinjiza kugirango irusheho kuba umujyi ukomeye.

Mu nama yahuje abayobozi batandukanye, hafatiwemo imyanzuro ikakaye ndetse bashyiraho ingamba nshya mu bijyanye no guteza imbere igihugu ndetse n'ibindi byose bifitiye igihugu akamaro.

Aba bagabo n'abagore bose, bitabiriye inama yiga ku burenganzira bwa muntu. Iyi nama ikaba yabereye mu nyubako nziza cyane muri imwe muri hoteli ziba mu mugi wa Kigali.

Abitabiriye inama, yigaga ku burenganzira bw'umwana. Bacyuye umukoro wo gushyira mu bikorwa iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa buri mwana wese.

Umugore afite ijambo cyane mu bitekerezo bitandukanye byagirira igihugu akamaro, ni yo mpamvu na we agomba guhabwa umwanya bityo tukubaka u Rwanda rudaheza umuntu bitewe n'igitsina afite cyangwa bitewe n'icyo ari cyo.

Urubyiruko rwitabiriye inama rwigishijwe neza ibigendanye n'imikoranire myiza hagati ya leta ndetse n'abaturage, kandi buri wese yahawe umwanya wo gutanga igitekerezo.

Mu nama buri muntu wese asabwa gutanga igitekerezo, ndetse akagira uruhare mu myanzuro yafatiwe mu nama. Ntabwo uyoboye inama, cyangwa uyihagarariye ariwe wenyine ufata imyanzuro.

Abitabiriye inama bose, yaba abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko, bose batahanye ingamba zo gushyira mu bikorwa, ibyigiwe mu nama ndetse no guhindura imikorere yabo yari isanzwe baranga.

Abitabiriye amahugurwa, bahawe amasomo y'ingenzi ndetse batanga ingamba nshya mu bigendanye no guteza imbere igihugu, biciye mu bikorwa bitandukanye.

Abitabiriye inama bose bahawe ikaze ndetse bagira umwanya wo gutanga ibitekerezo ku ngingo yigwagaho ndetse batahana ingamba nshya z'uburyo bashobora gukorera hamwe.

Mu nama yahuje urubyiruko, hatangiyewemo ibitekerezo byinshi byateza imbere igihugu ndetse basaba urubyiruko kugira uruhare mu bikorwa bitandukanye biteza imbere igihugu.

Mu nama ihuza abantu benshi batandukanye ntago bikigoranye gutanga ibitekerezo kubera ko bakoresha uburyo bwiza bwo kwerekana ibyo bari gusobanura bakoresheje mudasobwa.

Gahunda yo kwimakaza gukoresha ibikorerwa mu Rwanda, ni gahunda nziza cyane kuko ituma abanyarwanda bamenya ko ibyo mu Rwanda na byo bifite agaciro.

Ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere rura gishinzwe kugenzura imikorere myiza n'imitangire ya serivisi mu Rwanda, kirashishikariza abashinzwe amazi isuku n'isukura kujya batanga amazi meza.

Iby'ibanze wakora mu gihe habayeho gusohoka kwa gaze, mu gihe uri nko mu nzu ushobora gusohoka cyangwa ugakoresha ubundi buryo bwakurinda kugira ngo itaza kukwangiza.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kwishyura umusoro buzwi nka EBM bwongerewe ubushobozi ku buryo bushobora gukurikirana iyi serivisi neza.

Irembo ni serivisi yashyiriweho abaturage kugira ngo ibafashe kuzuza ibyangombwa bitandukanye nka mituweri do sante cyangwa kureba amakuru yerekeranye n'urugo.

Ukoresheje urubuga irembo govu, ushobora gusaba serivisi zo guhinduza ibyangombwa nk'impushya zo gutwara ibinyabiziga n'ibindi byinshi.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imiyoborere cyagaragaje uburyo imiyoborere ihagaze mu Rwanda. Aho cyagaragaje uko amategeko ameze ndetse n'uburyo politike yubahiriza uburenganzira bwa buri wese.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro ni cyo cyonyine cyemerewe gukusanya imisoro y'uburyo butandukanye, haba imisoro ku nyungu ndetse n'indi yose mu Rwanda.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro mu Rwanda. Gishishikariza abaturage bose kwishyura imisoro ku gihe, ndetse bakamenyekanisha imisoro. Kubera ko imisoro idufasha mu iterambere.

Irembo ni urubuga rwashyizweho rutanga serivisi zitandukanye mu buryo bw'ikoranabuhanga, rukaba ari urubuga ruri gufasha abanyarwanda cyane, mu bijyanye no gutanga ibyangombwa bitandukanye.

REB mu magambo ahinnye y'icyongereza, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda, kikaba ari ikigo gitanga ingengabihe ndetse kikanagena uko amasomo azatangwa mu Rwanda.

Imisoro y'ubukode ivuga iki? imisoro y'ubukode yishyurwa mu buryo bukurikira, aho umuntu yishyura imisoro y'ibyinjiye ku bukode.

Ibyemezo bigenga abashakanye, ubu ngubu biroroshye ko wabisaba ku rubuga irembo, ukoresheje telefone yawe cyangwa mudasobwa bidasabye ko uva mu rugo.

Uburyo wamenyekanisha umusoro ku nyungu ukoresheje urubuga nkoranyambaga, ndetse wifashishije telefone yawe, cyangwa mudasobwa.

Gahunda y'umuturage ku isonga, ni gahunda nziza yaje gufasha abayobozi kwegera abaturage ndetse n'abaturage bagatanga ibitekerezo bitandukanye, bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Birabujijwe guhagarara cyangwa kwegera iruhande rw'ipoto y'amashanyarazi kuko bishobora guteza impanuka igihe urusinga rutwara umuriro rwaba rwarashishutse.

Birabujijwe kwegera cyangwa kurira ipironi cyangwa se inkingi zifata insinga z'amashanyarazi, kubera ko iyo utari umukozi ushinzwe iby'amashanyarazi ushobora kugira impanuka.

Mu Rwanda birabujijwe kwangiza ibikoresho bitwara umuriro w'amashanyarazi cyangwa ibifasha mu gutwara umuriro w'amashanyarazi nk'amafoto nk'amapoto, amasinga ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Amatara yo ku mihanda ni amatara yakemuye ikibazo cy'umutekano, aho umuntu agenda ntacyo yikanga ndetse nta kibazo afite cy'uko hari uwamugirira nabi, ndetse n'ibinyabiziga bituma bidakora impanuka.

Inkingi ifata insinga zitanga umuriro w'amashanyarazi ku baturage, yahuriweho n'amasinga menshi cyane bityo bituma ibasha gutanga umuriro ku baturage benshi.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo kigira uruhare mu iterambere ry'igihugu, mu bice bitandukanye, haba mu byo ubwubatsi cyangwa ndetse n'ibindi byose.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Nta muntu n'umwe wemerewe, kwegera cyangwa kurira amapironi anyuraho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, igihe cyose atari umukozi ubishinzwe.

Mu Rwanda hari amamodoka menshi cyane afasha abagenzi, kandi akoresha uburyo buzwi nko gukozaho amafaranga, gukozaho ikarita, hanyuma amafaranga akavaho, bigendanye n'urugendo umugenzi araza gukora.

Ipironi rifasha mu gutwara insinga zitanga umuriro w'amashanyarazi, birabujijwe kuryurira cyangwa kuryegera mu gihe utari umukozi ukora mu bigendanye n'amashanyarazi.

Iyi ni inkingi nini cyane iriho ihurizwaho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi ku baturage, nta muntu uba wemerewe kuyurira.

Inyubako zikomeye zose by'umwihariko inyubako nini zizwi nk'ama etaje zigira parikingi zitandukanye urabona ko hano izi modoka ziparitse mu byerekezo bitandukanye.

Ibipangu bibiri kimwe kiri mu mabara y'isine ndetse n'umweru; ikindi gifite ibara ry'ivu mu imbere harimo amazu afite ibisenge by'umutuku ndetse amazu ateye irangi ry'umweru, imwe haba hakaba haparitsemo imodoka ifite irangi ry'ivu ndetse hanze hakaba hateye ibiti n'ubusitani.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Mu Rwanda hubatswe amashuri menshi ku buryo usanga byibura muri buri kagari hari ishuri cyangwa hakaba n'aho haba hari amashuri abiri. Ibi byafashije kugabanya umubare w'abanyeshuri bata ishuri.

Umuntu wese uvuye mu bwiherero asabwa gukaraba amazi meza n'isabune ari nayo mpamvu usanga hafi y'ubwiherero hari kandagira ukarare igufasha mu buryo bwo gukora isuku.

Ku bitaro, kwa muganga, haba hari imodoka za ambirasi zifashishwa mu gutanga ubutabazi bwihuse ku barwayi barembye, bari hirya no hino.

Imodoka iri mu bwoko bwa rava iri kugendera muhanda wa kaburimbo, aho iteganye n'umugenzi uri kugendera mu muhanda wateganyirijwe abanyamaguru.

Itegeko ryashyizwe mu ngiro ndetse risinywaho n'abayobozi batandukanye, barimo n'umuyobozi uhagarariye urukiko rukuru ari we Tarisisi.

Abaganga b'inzobere basuzuma neza uburwayi bw'umuntu, ku buryo babasha kumenya neza ikibazo afite mu mubiri ndetse bakifashisha, uburyo bwose bushoboka bw'ikoranabuhanga bakoresheje mudasobwa.

Inama nkuru zikorwa zitabiriwe n'abantu batandukanye bavuga indimi zitandukanye, hifashishwa ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo ekuteri ndetse n'indangururamajwi.

Ifoto ngufi izwi nka pasiporo mu ndimi z'amahanga ishobora gufatwa mu buryo bwiza, aho umuntu agomba kugaragaza isura ye neza ndetse n'amatwi yose.

Mu rukiko iyo umucamanza yemeje ko icyaha gihama umuntu, uwo muntu ahita ajyanwa muri gereza, kugira ngo abashe gukora igihano cy'igifungo.

Muri salo usanga ari ahantu hateguye neza, harimo intebe nziza, aho umuntu yicara akamera neza. Muri salo ni ahantu heza ushobora no kuruhukira.

Iyi ni ifoto ngufi umuntu yifotoza agiye gushyira ku byangombwa nk'indangamuntu, ikarita y'ishuri cyangwa icyangombwa cyo kujya hanze kizwi nka pasiporo.

Mu nama nyunguranabitekerezo, yahuje abayobozi b'ingeri zitandukanye, hafatiwemo ibyemezo, ndetse higirwamo byinshi cyane, ku bigendanye n'ibyateza imbere abantu bose.

Mu Rwanda abagore bahawe ijambo kuburyo ubungubu umunyarwandakazi asigaye ayobora inama, agatanga ibitekerezo bye uko abyumva ndetse bikagira uruhare mu kubaka igihugu cyacu.

Uwakoze ibyaha yatawe muri yombi ndetse ajyanwa muri gereza kugira ngo ajye gukurikiranwaho ibyaha yakoze, nibiba ngombwa azahanwe n'amategeko.

Polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikora akazi kayo neza cyane, ku buryo buri munyarwanda wese agira umutekano. Yaba uwo mu muhanda cyangwa se uwo mu buzima busanzwe. Nta munyarwanda n'umwe udafite umutekano kubera polisi nziza y'u Rwanda.

Ibitaro bya polisi mu Rwanda biboneka mu Mujyi wa Kigali, ahazwi nka Kacyiru. Kandi ibi bitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi ku bapolisi ndetse n'abahoze mu gipolisi.

Imodoka zitwara abantu mu buryo rusange, zibakura mu bice bitandukanye, zimaze kwiyongera ku buryo nta munyarwanda ukibura imodoka.

Niba utwaye imodoka, birabujijwe gutwara imodoka udafite ibyangombwa, kubera ko ushobora guhanwa ndetse uba wishe n'amategeko y'umuhanda. Bityo rero urasabwa gutwara imodoka ufite ibyangombwa bikwemerera kwitwara.

Umugabo wambaye ikoti ry'ikigina afite icyuma ndangurura majwi mu kuboko kw'iburyo bwe, ahagaze impande y'akameza k'ikirahure kateretsweho terefone ndetse n'udutabo, ari imbere y'abantu bicaye, inyuma yabo hakaba hariho icyapa gisize ibara ry'umweru, ndetse n'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Buri nyubako yose igomba kuba ifite kizimyamoto mu rwego rwo kwitabara mu gihe haba impanuka y'umuriro w'amashanyarazi itateguwe.

Igihe utwaye imodoka usabwa kugenda neza witwararitse ku muvuduko mutoya, kugira ngo wirinde impanuka. Kandi usabwa mu gihe ugiye kwambukiranya umuhanda, usabwa kubanza ukareba neza ibindi binyabiziga.

Umutekano wo mu mihanda n'ingenzi cyane ku bakoresha umuhanda haba abanyamaguru abatwara ibinyabiziga ndetse n'abandi bose muri rusange basabwa kwitwararika kugira ngo umutekano wo mumuhanda ukomeze kuboneka.

Urupapuro rugaragaza uko inzego z'ibanze zinjije ndetse nuko zakoresheje ingengo y'imari zahawe mu myaka igiye itandukanye.

Kwitabira amatora ni iby'ingenzi kuri buri muntu wese, kugira abashe kwihitiramo umuyobozi uzamugeza ku iterambere rirambye ndetse agatuma umuturarwanda agira ejo heza.

Mu nama ihuza abayobozi bakuru ni ho ibyemezo bikomeye bifatirwa, aho abayobozi bose baba bakurikiye bagatanga ibitekerezo ku ngingo iri bwigweho uwo munsi.

Guhindura itegekonshinga byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, byabaye ibintu by'ingenzi cyane. Ku buryo uyu munsi twishimiye ubuyobozi buriho kandi mu byukuri icyo gihe itegeko ntabwo ryari kwemerera Perezida Paul Kagame gukomeza kuyobora iyo ridahinduka.

Abanyamakuru batandukanye bashishikajwe cyane no kubaza ibibazo umuyobozi nyuma yo kuvuga imbwiruhame yakoze abantu ku mutima, bigatuma bamukomera amashyi cyane.

Abitabiriye inama bose bashimye igitekerezo cyiza cyo guteza imbere igihugu ndetse abagore n'abagabo bose bahagurutse bakoma mu mashyi.

Mu gihe cy'amatora abantu benshi bazana udutambaro turiho ibirango by'abo bamamaza bashaka kuyobora, mu by'ukuri usanga abantu ku mihanda baje ari benshi, baje kureba abakandida.

FPR umuryango w'abanyarwanda uyoboye igihugu muri iyi minsi, uhagarariwe na Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ni umuryango utanga umutekano ndetse n'icyizere ku banyarwanda bose.

Uruhurirane rwabakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari, bategereje abagenzi hano mu mujyi.

Motari si byiza gusiga kasike yawe cyangwa se ingofero ikurinda gukomereka igihe waba ukoze impanuka, ntago ari byiza kuyisiga mu gihe uparitse moto yawe ukagenda.

Urujya n'uruza mu muhanda, amamodoka n'amamoto atambuka, ava mu bice bitandukanye by'igihugu, yose akaba agendera ku muvuduko uringaniye.

Mu kavuyo k'umuhanda ni ngombwa kwitonda cyane ndetse rimwe na rimwe ku bashoferi ndetse n'abamotari, basabwa kugabanya umuriro w'ibinyabiziga byanyu ndetse mukagenda gakeya kugira ngo mudateza impanuka.

Mu gihe ugiye gupakurura imizigo ku modoka yawe, usabwa guparika imodoka ku ruhande gatoya, kugira ngo imodoka zindi zibone aho zinyura.

Imodoka nto zitwara imizigo zo mu bwoko bwa fuso zikwiye kujya zipakira imizigo mikeya ingana n'ubushobozi bw'imodoka batwaye kuko iyo zitwaye imitwaro ifite ubushobozi bw'ibiro byinshi bishobora guteza impanuka

Ahantu bacuruza inzoga zitandukanye bigaragara ko ari akabari, imbere hari televiziyo nziza nini ya furati, hakaba harimo amacupa menshi atandukanye y'inzoga, ikindi kandi hakaba hari udutebe twiza turi ku murongo ndetse n'ameza meza y'umukara bimwe bita kontwari.

Imodoka yo mu bwoko bwa Ritiko, ni imodoka nziza cyane, kuko umugenzi uyiteze nta kibazo agira k'imizigo, kuko ifite ububiko bunini bwo kubikamo umuzigo wawe uko waba ungana kose.

Imodoka nini zitwara imizigo nazo ni zimwe mu modoka zishobora gukoreshwa mu bigendanye no kwamamaza, aho bashobora kuzitakaho ibipapuro byamamaza imishinga runaka.

Buri muntu wese mu bakoresha umuhanda asabwa kunyura mu mukono we mbese ahagenewe ikinyabiziga atwaye, niba ari igare utwaye ukanyura ku ruhande, niba uri umunyamaguru ukanyura mu nzira y'abagenzi mu rwego rwo kwirinda akavuyo ko mu muhanda.

Aho imodoka zihagarara zigomba guhagarara mu buryo zitegeranye, kuko iyo umwe agiye guhaguruka hari igihe ashobora guteza impanuka mu gihe zahagaze zegeranye.

Imodoka ntoya yifashishwa mu gutwara imizigo izwi nka dayihatso, ni imodoka ishobora gutwara byibura ibiro birenga igihumbi, aho yifashishwa nko mu bucuruzi ndetse no gutwara umusaruro ukomoka ku buhinzi.

Ni ngombwa kubisikana n'ikinyabiziga mu gihe utwaye ugomba kugenda mu mukono wawe ku buryo utabangamira bagenzi bawe mu muhanda, bityo rero dukoreshe umuhanda neza.

Moto itwara abagenzi ishobora no gutwara imizigo ariko ikayitwara yonyine idashyizeho umugenzi, ni ukuvuga ko umumotari ashobora gutwara umuzigo ariko ntawutwarane n'umugenzi.

Iyi modoka nini ikunze gutwara ibicuruzwa bijya hanze cyangwa biva hanze muri kubona igiye kunyura kuri uriya muhanda wo hasi urabona ko hejuru hari n'undi muhanda.

Moto yo mu bwoko bwa Rifani, ni moto ikorerwa mu Rwanda, kandi ikaba izwiho gutwara imizigo, aho ishobora gutwara ibiro bigera ku gihumbi, kandi ikaba yakorera amafaranga ibihumbi icumi kuzamura ku munsi umwe gusa.

Ku mihanda migari haboneka uruhurirane rw'imodoka ndetse na moto zitwara abagenzi gusa buri muntu wese asabwa kwitwararika mu gihe akoresha umuhanda kuko si we wenyine uwukoresha.

Abamotari basabwa gucunga neza igihe bari inyuma y'imodoka kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga badacunze neza bakora impanuka.

Ni byiza mu muhanda ko buri muntu wese anyura mu mukono we cyangwa se mu nzira yabugenewe kugira ngo adateza akajagari ibizwi nka ambutiyage mu ndimi z'amahanga.

Mu gihe utwaye ikinyabiziga, ni byiza gukoresha neza umuhanda, ukurikiza amategeko. Nko mu gihe wambukiranya imihanda, cyangwa se uhana umwanya n'ibindi binyabiziga.

Mu gihe utwaye ikinyabiziga nka moto ndetse n'ibindi. Usabwa kunyura mu mukono wawe cyangwa se mu nzira yawe, mu rwego rwo kwirinda impanuka kugirango udateza ibibazo.

Utwaye imodoka acunga neza niba ushaka guca ku kinyabiziga kikuri imbere ubanze urebe neza niba nta mpanuka byaguteza, ibi ngibi bizagufasha cyane.

Mu mujyi wa Kigali hari imihanda myiza cyane kandi kuri iyo mihanda hakaba hateyeho ibiti; nk'imikindo ndetse n'ibindi bizana umwuka mwiza.

Gendera ku muvuduko mutoya kugirango udahutaza cyangwa se ukagonga abaturage bambukiranya umuhanda, rimwe na rimwe iyo ari umuhanda mutoya udafite utumenyetso tugaragaza kwambuka.

Umuhanda mugari unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, imodoka nini, abamotari, amagare ndetse n'izindi modoka z'ubwoko bwose.

Imodoka nini zitwara umucanga, ni imodoka zishobora guteza impanuka, munyonzi mu gihe uri mu muhanda ukabona iyi modoka jya witwararika kandi wirinde, mugenzi nawe jya mbere yo kwambuka jya ubanza urebe niba ntakibazo gihari.

Abantu benshi bakunze gukoresha murandasi y'ubuntu, aho Leta yagiye ishyira enterineti y'ubuntu, mu bice bimwe na bimwe kugirango ngo abaturage babashe kubona amakuru mu buryo bworoshye.

Umukino w'intoki wa Basikete boru, ni umukino mwiza cyane kandi ushimisha bitewe n'ukuntu abawukina buri kanya baba batsinda amanota cyangwa se icyo twakwita nk'ibitego.

U Rwanda rufite imihanda myiza cyane, ifite isuku, ibereye ijisho, ku buryo n'amahanga yose atangara, agatangarira u Rwanda bitewe n'ukuntu rumaze kwiyubaka.

Amukino w'intoki uzwi mu ndimi z'amahanga nka voreboru ni umukino ukundwa cyane kandi ushimisha aho abakinnyi bagenda bakina ari benshi mu buryo butandukanye, bityo bigashimisha abantu bitewe n'amanota agenda aboneka buri mwanya.

Icyapa kiriho amatara atandukanye, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, ni icyapa kigaragaza igihe ikinyabiziga cyambukira cyangwa igihe abagenzi bambukira n'igihe batagomba kwambuka ku mihanda minini.

Icyapa cy'uruziga gifite utwambi dusa nk'utwizenguruka, kigaragaza ko umuhanda ugenda ndetse ukagaruka, muri makeya hari aho uhurira.

Iki cyapa kigaragaza umuhanda KG nimero ijana na mirongo inani n'icyenda ST, akaba ari umwe mu mihanda iboneka mu mujyi wa Kigali.

Icyapa gikozwe mu buryo bwa mpande eshatu cyanditseho ijambo yiyeridi mu rurimi rw'icyongereza, kigaragaza ko aho hantu habereye ikibazo cyane cyane gikunze kugaragara mu muhanda nk'iyo imodoka yagize ikibazo mbese yapfumutse nk'ipine cyangwa ikindi kintu.

Birabujijwe guparika cyangwa se guhagarika imodoka mu busitani, kubera ko ntago ari ahagenewe guparika imodoka.

Mugenzi nugera mu ikoni, ujye witegereza neza mbere yo kwambuka, ubanze umenye niba nta kinyabiziga kiri guturuka muri metero ziri imbere kuko ucunze nabi wasanga ukoze impanuka.

Buri resitora yose isabwa kugira ahantu ho guhagarika imodoka hazwi nka parikingi, kubera ko ibi ngibi birinda akajagari k'amamodoka ndetse n'abantu.

Aha ni ahantu ushobora gusanga ibikomoka ku mata, muri make iyi ni inyubako icuruza ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bikomoka ku mata, harimo amata y'ifu ndetse n'amata y'ikivuguto.

Gutera ibiti ku mihanda nk'imikindo, ndetse n'ibindi bitandukanye, ni byiza cyane kuko bituma haboneka umwuka mwiza duhumeka, bitewe n'uko ku mihanda hanyura ibinyabiziga byinshi, bigatuma bitanga amagaze yangiza ikirere ari nayo ahumanya umwuka duhumeka.

Inyubako zo mu mujyi akenshi usanga zicucitse ku buryo rimwe na rimwe utabasha kureba ngo uvuge ngo iyi nyubako ni iyihe ndetse zimwe na zimwe usanga zegeranye n'amashuri.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, ugomba gukoreshwa neza, ku buryo buri muntu wese amenya aho agomba kunyura, yaba utwaye cyangwa ugenda n'amaguru, mubyukuri ibi bifasha kwirinda impanuka.

Mu duce dutandukanye two mu Rwanda by'umwihariko ahegereye imihanda ndetse n'ahahurira abantu benshi, usanga hari imitaka ya sosiyete za MTN ndetse na Airtel zitanga serivise zitandukanye.

Umumotari utwaye moto aba asabwa kwitwararika mu gihe cyose ari mu muhanda wenyine. Kandi agomba kureba neza imbere n'inyuma ko nta kindi kinyabiziga kiri kuza kimusatira.

Ni byiza guhagarara gatoya, ukabanza ugategereza niba wahawe uburenganzira bwo gukomeza mugihe ugiye kwambukiranya imihanda, mushoferi birakwiye ko ugendera ku muvuduko mutoya, igihe wambuka umuhanda.

Amatara yo ku mihanda yakemuye ibibazo byinshi cyane by'umutekano, byaba umutekano w'ibinyabiziga cyangwa umutekano w'abagenzi bakoresha umuhanda, kubera ko ubungubu nta bugizi bwa nabi bukihagaragara ku mihanda itandukanye.

Mumotari igihe ugeze aho abagenzi bambukira usabwa kugabanya umuvuduko, ndetse ukanacunga niba nta mugenzi uri kwambuka umuhanda kugira wirinde impanuka.

Imihanda ya kaburimbo iri mu Rwanda, ahanini usanga ari myiza cyane kandi yisanzuye kuburyo ikinyabiziga kinyuranamo n'ikindi ndetse hakaboneka n'umwanya w'abagenzi banyuramo.

Abanyonzi batwaye abantu ku magare, ni abantu bashobora kwinjiza amafaranga yabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo rero uyu mwuga na wo washobora gukiza umuntu.

Mugenzi urasabwa kwitwararika igihe wambukiranya imihanda ukabanza ugacunga neza niba nta kinyabiziga kiri kuza kigusatira mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Mu gihe wambukiranya imihanda, usabwa kubanza ugacunga neza umuvuduko w'ibinyabiziga ndetse nawe utwaye ikinyabiziga usabwa kwambukira mu muhanda wabugenewe.

umuhanda w'amapave, ni umuhanda mwiza ugaragara neza ndetse ni umuhanda utagira ingaruka ku kinyabiziga cyawe.

Ku mihanda migari aho umuntu yambukira haba hari uturongo tw'umweru dutambitse. Umugenzi iyo agiye kwambuka arabanza akareba neza ko nta kinyabiziga kiri hafi kiri kwambukiranya umuhanda bityo akambuka. Ikinyabiziga nacyo iyo kigeze kuri iyi mirongo kigabanya umuvuduko ndetse kikanahagarara rimwe na rimwe.

Iyo ugiye kwambuka wambukiranya imihanda, usabwa kureba niba amatara yacanye urumuri rwerekana ko abagenzi bagiye kwambuka.